Iyo umurwayi arwaye, aja kwa muganga bakamuha imiti imufasha gukira indwara arwaye bityo ku bitaro bidufasha kubaho neza, kuko turwara tukajya kwivuza tukarushaho kubaho dufite ubuzima bwiza.

Biba byiza iyo ukoze umushinga wo gucuruza imiti. Kuko iyo umuturage arwaye hari farumasi hafi aho ngaho aragenda akaja kugura imiti, iyo aguze imiti akayinywa biramworohereza, kuburyo biba byiza iyo umufite.

Inaha iwacu tugiraga ubucuruzi bw'imiti bahitaga kuri forumasi, habagayo imiti iyo twarwaye tujaga kugurayo imiti tukaza tukayinywa, tugakira tukarushaho gukora akazi neza kubera ko tubaga dufite ubuzima bwiza.

Mu buryo bwo kurinda abaturage kurwara indwara za hato na hato, bubaka ibitaro bagashyiraramo abaforomo. Abo baforomo bagenda babaha imiti umuturage bityo ntarembere mu nzu.

Imboga zitwa urudega ni imboga ziryohaga cane cane, kuko iyo wazitetse neza uziryaga wumva ziryoshe kandi umuntu warwaye inzoka bakamuha urudega arakiraga, iyo uri kwituma cane ukarya urudega uratsinaga ukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Inaha mu Rwanda iyo dukeneye kubaka twifashishaga amabuye uko tuyakoresha twubaka fondasiyo tukayakoresha twubaka igipangu bityo amabuye yadutezaga imbere kuko iyo wubatse igipangu gituma abajura bataza kwiba.